Nkurikije uko mbana ndabona ari ishusho igaragaza imibare ikigero igipimo cy'aho imibare ikoreshwa mu buvuzi igaragaza, mu burwayi cyangwa bindi bintu.

Iyi shusho iragaragaza abantu babiri bari muri siporo ngororamubiri icyo twakwita korosi cyangwa mucaka, iyi ishusho nicyo iri kugaragaza bagenda baganira.

Nkurikije iyi foto mbona ndabona ari umubyeyi uri gukora siporo ngororamubiri, ari kuzikora mu rugo mbese ntabwo ari hanze y'urugo ari mu rugo ari gukora fitinesi, siporo zirambura nyine umubiri.

Uyu muntu nkurikije ishusho ndi kubona, ndabona afite ibinini mu ntoki agiye kunywa nk'uko yabyandikiwe wenda na muganga. Ari kubyitegereza arebe ko ibyo afashe umubare bamubwiye ugenwe wo kunywa ari byo agiye kunywa koko.

Nkurikije iyi shusho mbona, ndabona ar’ibitaro bya Kabgayi, aho bitaro byakira abantu batandukanye, baba bavuye mu bindi bitaro ndetse n'abari hafi y'ibyo bitaro. Hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Nkurikije ishusho ndikubona ndabona ari abadogiteri cyangwa abaganga bari mu nama mbere yuko batangira akazi, barikwerekwa amashusho kugirango nyine barebe inyigisho bari guhabwa ko zihura n'ibyo bagomba gukora.